Yicaye ku ntebe yazamuye akaguru barimo barakambika igitambaro cy'umweru, umuganga uri kumufasha yambaye agapfukamunwa, yambaye n'imyenda y'icyatsi kibisi n'uturindantoki.

Yambaye akagofero k'ubururu mu mutwe yambaye umwenda w'ubururu yambaye n'uturindantoki tw'umweru ni umukobwa urimo gufasha abantu mu cyumba cyo kwa muganga aho arimo aracomeka ibyuma.

Ni igikarito gisa nk'aho baryamishije bari gukuramo imiti yifashishwa n'abaganga kwa muganga. Mu butabazi bw'ibanze nk'umurwayi arembye cyane, hariho amashashi hakabaho n'utundi dupaki turimo, turimo imiti.

Barimo barakorera isuku hirya y'ikigo nderabuzima, barimo barahingisha amasuka ni abagabo n'abagore, barimo bararandura ibyatsi byari byarameze ahongaho.

Abakobwa n'abasore bicaye hanze, bari kumwe n'ubandika ku mpapuro, bari kugenda umwe umwe ababaza amakuru, bigaragara ko ari mu bushakashatsi.

Mu isoko abantu barimo ari benshi abagabo n'abagore, bafite amahene buri wese afite iye mu ntoki harimo harabera ubucuruzi bw'amatungo n'abantu benshi baje kureba iryo soko.

Ni kwa muganga aho umurwayi bamwicaje mu kagare, asa naho aryamyemo bari kugenda bamusunika, ni abaganga babiri b'abagabo bari kumuha ubutabazi bw'ibanze.

Ni kwa muganga aho abaganga bari, bisa nk'aho ari umuntu warembye cyane bagiye kuvura, ni abagabo n'abagore bose barahagaze barimo barareba cyane.

Kwa muganga, ni abaganga benshi iruhande rw'ambilansi ikinguye, bisa nk'aho harimo umuntu warembye, bari bugeze ku bitaro byihutirwa, bazanye n'akagare bamwicazamo.

Bahagaze imbere y'imodoka ishinzwe kujyana abantu barembye cyane ku bitaro bimwe ibavana ku bindi, ni abagabo batanu n'umugore umwe, bose bafite akapa mu ntoki k'umuhondo, bahagaze bagafasheho.

Ni ibitaro by' Akarere ka Nyagatare, aho haparitse imodoka ya Ambulance itwara abantu kwa muganga barembye cyane, ni ibitaro byiza cyane byubatse, bizamuye, bifite amarangi y'umuhondo.

Ni ku bitaro aho hari inyubako nyinshi zitandukanye zubakishije amatafari ahiye, hariho amarange y'umuhondo, asakaje amabati y'ubururu, imbere y'ibitaro haparitse imodoka iriho ibara ry'umweru iri kureba imbere, hirya hari jaride irimo indabyo.

Ikigo nderabuzima cya Nyagatare, ni icyapa kinini cy'umweru n'umukara, kiri ahantu munsi y'igiti hino yacyo hari indabyo z'umuhondo n'icyatsi.

Ni abaganga b'abagabo bambaye imyenda itandukanye, bahagaze imbere y'ivuriro, ni kwa muganga basa nk'aho basoje akazi barimo barafata ifoto.

Bari imbere y'inyubako nziza nini y'igorofa ni kwa muganga ni abaganga basoje akazi bahagaze mu busitani imbere yabwo hari amapave barimo barafata ifoto.

Umubyeyi w'umumama araryamye mu buriri, hariho imisego aryamye kuri matera, aryamye ari kumwe n'akana ke bisa nkaho yakabyaye, ni akana k'agahinja kari mu bitambaro.

Ku kigo nderabuzima aho abaganga baje gukurikirana inama mu cyumba cy'urubyiruko, bicaye ku ntebe bose bafite amazi imbere yabo buri wese, bamwe muri bo bambaye udupfukamunwa bari imbere y'ibishushanyo bigaragaza ko icyo ari icyumba cy'urubyiruko.

Abantu barimo urubyiruko harimo abitwikiriye imitaka binjiye mu kigo kwa muganga aho bafite igitambaro kinini cyanditseho kwibuka ku nshuro ya mirongo itatu.

Umuganga wambaye akantu kameze nk'itaburiya k'ubururu, ari kuvura umugabo wicaye ku ntebe wambaye ishati ya bule esiyeri, n'ipantaro y'umukara asa naho ari guterwa urushinge mu jisho.

Ikigo nderabuzima kirimo abantu benshi baje kwivuza bicaye ku gatebe k'urubaho, bategereje serivise harimo abagabo, abagore, umukecuru n'umwana, bose bategereje ko bakirwa.

Ni abagabo bambaye amataburiya bamwe muri bo y'umweru, barahagaze bisa nkaho bahawe impamyabushobozi ni abaganga bari imbere y'inyubako yo kwa muganga.

Umukecuru wifubitse agatambaro k'umuhondo mu mutwe, barimo baramupima umuvuduko w'amaraso, ari imbere y'umuganga w'umugabo wambaye linete ndetse n'itaburiya y'umweru, hirya yabo hariru umukobwa nawe wambaye itaburiya y'umweru uririmo urandika imyirondoro.

Ni kwa muganga aho muganga w'umugore wambaye agapfukamunwa k'ubururu bweruye, yambaye uturindantoki tw'umweru yambaye itaburiya, y'umweru ndetse n'ibitenge by'ubururu, arahagaze arimo aravanga imiti.

Ni kwa muganga aho bari gufata umuntu amaraso mu rutoki, ni umuganga wambaye uturindantoki ugiye kumutera agashinge ku rutoki rwa gatatu uvuye ku gahera.

Ni muri laboratwari aho bamwe bari gusobanurirwa n'abandi bahagaze imbere, abagabo babiri umwe yambaye ikositimu undi yambaye itaburiya, bari gusobanurira abantu babateze amatwi ibijyanye n'indwara.

Ari muri laboratwari aho ari kuvanga imiti, ashyira mu tuntu twabugenewe two kwa muganga twifashishwa muri laboratwari, ni umuntu wambaye itaburiya y'umweru n'uturindantoki tw'umweru.

Ni mu nyubako yo kwa muganga, mu cyumba cyahariwe ubushakashatsi bw'abaganga, hari ibikoresho byinshi bifashisha bakora ubushakashatsi mu miti.

Ni abaganga nyabenshi barimenyereza nk'umwuga, kuko baje muri laboratwari kuvanga imiti ndetse no kuyigenzura bambaye amataburiya y'imyeru.

Ni muri laboratwari aho abanyeshuri baba barimo bakora ubushakashatsi bavanga imiti, bambaye imyenda irimo udupfukamunwa, uturindantoki n'amataburiya, baba barimo bararebera mu byuma by'ikoranabuhanga.

Muganga uri muri laboratwari yambaye uturindantoki tw'umweru ndetse n'itaburiya yazinze amaboko ari kumwe n'umuntu ari butere urushinge ku rutoki kugira ngo amufate ibipimo.

Umuganga w'umusore wicaye ku ntebe y'umukara ifite aho kwegamirwa yicaye imbere y'imeza y'umweru iriho mashine itagaragara neza, yambaye agapfukamunwa, yambaye n'itaburiya.

Inyubako yubatse neza, ifite ikigega gifata amazi, iyo nyubako yubakishije amatafari ahiye, hariho amarangi meza, isakaje amabati y'ubururu, n'ahantu abana baza gufatira inyigisho.

Ni kwa muganga bita ku bafite ibibazo byo mu buzima bwo mu mutwe, bari kumwe na muganga, ni umubyeyi uteruye umwanawana mu ntoki, bisa nk'aho uwo mwana afite ikibazo cyo mu mutwe, muganga arimo arabereka aho bajya kwivuzavuriza.

Abagabo n'abagore barahagaze bose bafite terefone za simati fone mu ntoki bambaye amataburiya y'ubururu abenshi bisa nk'aho bahembwe ayo matelefone.

Abana biga muri primaire bambaye inifomu hasi y'ubururu, hejuru iratandukanye bifubitse n'imipira, bafite udukombe barimo baranywa, bicaye ku ntebe z'urubaho batatu batatu kuri buri ntebe.

Abana bicaye kumezaeza barimo bararya, ni mu ishuri rya materineri, aho hari umuntu ubareberera wambaye akajiri k'icyatsi, asa nkaho ari kubabwira ngo barye bitonze.

Abantu benshi bari inyuma y'ibiti ndetse n'ibindi byatsi bitandukanye, bari kumwe n'umuyobozi wabo wambaye agapira'icyatsi kanditseho RBC, afite mikoro ku munwa n'agakayi mu ntoki, abo bana bari kumwe n'ababyeyi babo bisa nk'aho bakize ikibazo cyo mu mutwe.

Hari abagore, abagabo ndetse n'umwana uryamye, ni mu nzu isanzwe ivurirwamo abana, akana gasa nkaho gafite ikibazo ku maguru no mu ntoki.

Abaganga babiri bambaye amatabuririya y'umweru, bambaye n'amakarita y'akazi, bari kumwe n'abandi bantu mu cyumba cy'inyubako yo kwa muganga, barimo barabafasha mu by'ubuzima bwo mu mutwe.

Umuganga w'umugabo yicaye imbere y'imashini, arimo arayikoresha, imbere ye hari ibikoresho byinshi yifashisha, arimo aragenzura mu mashini, ashinzwe iby'ubuzima bwo mu mutwe.

Ikigo cy'urubyiruko cya Cyinzuzi ni inzu nini yubatse n'amatafari ahiye, iriho abantu imbere yayo bambaye udupira twa orange n'abandi bambaye bisanzwe, inyuma yabo hari igishushanyo cyanditseho ayo magambo ndetse handitseho n'ibindi bitandukanye n'ibishushanyo bitandukanye.

Barahagaze ni abagabo n'abagore biganjemo abambaye udutaburiya tw'umukara bigaragara nk'aho bagiye kubaganiriza iby'ubuzima bwo mu mutwe bishimanye bose barimo baraseka.

Abagabo n'abagore, abakecuru n'abasaza, abasutse, abateze ibitambaro, abambaye ingofero n'abandi batagize na kimwe kiri mu mutwe ni bo bicaye munsi y'ibiti hasa nk'aho bari gufata inyigisho, umuntu urimo hagati muri bo ari kubaha ibijyanye n'ubuzima bwo mu mutwe.

Baricaye bakikije hagati muri bo basa nk'aho bari bafite ikibazo cyo mu mutwe bakagikira ni abagabo n'abagore, inyuma yabo hari udufuka tw'ibyo kurya bizajya bibafasha basa nk'aho baba ahantu hamwe.

Abantu benshi bambaye imipira y'icyatsi ndetse n'iy'imituku bafite icyapa imbere yabo cyanditseho amagambo ibiyobyabwenge birica ikunde gukoresha ibiyobyabwenge byangiza ubuzima byirinde.

Ni muri farumasi aho hari imiti myinshi y'ubwoko bumwe iri mu dushashi, ishushanyijeho inkoko yerekana ko ivura amatungo cyane cyane inkoko, ni muri farumasi.

Rayani farumasi ni amagambo yo mu ibara ry'icyatsi yamamaza farumasi imwe yo mu Rwanda, itanga imiti haba iy'amatungo n'iy'abantu, ni icyapa kiri ku iyo nyubako, kigaragaza aho iherereye.

Amakarito ageze muri ane y'ibinini bivura malariya, ni ibinini baha buri muntu iyo yarwaye malariya haba mu bajyanama b'ubuzima cyangwa kwa muganga, ni binini bya coartem.

Ni muri farumasi ni ku meza hariho igitambaro cy'umweru, hariho imiti ni ubwoko bumwe byose gusa ni mu ducupa dutandukanye dufite agapfundikizo gasa nk'umuhondo n'umweru n'agacupa kameze nk'ikirahure.

Ni muri farumasi ahari imiti myinshi y'amoko menshi, hari iri mu ducupa dusa umweru, utundi umuhondo n'utundi tw'ubururu; iteretse mu tubati dutandukanye.

Ni muri farumasi aho hari imiti itandukanye, hari iyiri mu ducupa, hari iri mu bujerekani yose ivura bitandukanye. Ni imiti ivura ahanini amatungo.

Imiti imeze kimwe yose ni ine, yanditseho amagambo amwe kandi ikora bimwe, yose ishinzwe kuvura amatungo iboneka muri farumasi.

Ni muri farumasi hari imiti myinshi mu tubati dutandukanye, hari intebe ucuruje muri farumasi yicaramo, ni intebe izamutse irimo imisego habaho kwicarira n'aho kwegamira, ayicaramo acuruje imiti.

Ni muri farumasi aho bacururiza imiti y'abantu n'amatungo, harimo abagore babiri umwe yunamye imbere y'undi wicaye, basa nkaho bari gukora raporo y'ibyatanzwe uyu munsi. imiti yatanzwe ku bantu baza kuyigura.

Ni farumasi irimo imiti y'amoko menshi, aho umukobwa ukoramo yambaye amaherena, isaha ndetse n'impeta, afite umusatsi wa natirere yambaye n'agapira k'umweru.

Ni muri farumasi ahari imiti y'amoko menshi, hari iri mu ducupa, hari iri mu tudobo, ni mwinshi, irimo amabara menshi atandukanye, mu tubati dutandukanye.

Ni umugabo ufashe kukameza, aho acuruje imiti muri farumasi, ni imiti iri mu ducupa dutandukanye, indi iri mu makarito, yambaye ishati y'umukara irimo ibidomo by'umuhondo.

Ni farumasi ifite imiti iri mu bikarito, nta macupa arimo yose yuzuye mu bikarito, uko ipanze bitewe n'uko baza kuyigura, iri mu mabara atandukanye mu tubati twa buri muti uko ugenda ukoreshwa.

Abagabo n'abagore bari mu nzu mu nyubako y'umuntu, bari kumwe n'abashinzwe umutekano, ni abapolisi, ni umugabo n'umugore, barimo barereka abandi uko batora.

Bambaye imipira y'umweru ifite uturango haba ku ibere ry' iburyo n'iry'ibumoso no ku kaboko hariho akarango k'umutuku bicaye mu ihema, ni benshi harimo abagabo n'abagore bari muri kampeni yo kwamamaza umuyobozi.

Bisa nk'aho bari kwamamaza abakandida aho buri wese ushinzwe iby'itora agenda afata agapapuro agafungura akareba izina ryanditseho, ni abantu benshi baje gukurikirana icyo gikorwa.

Ni bagabo n'abagore n'urubyiruko muri rusange bari imbere y'inyubako nziza cyane bisa nkaho bagiye gufata inyigisho rusange kubijyanye n'ubuzima, barahagaze ngo bafate ifoto bisa nkaho bisoje.

Ni urubyiruko rwiganjemo abambaye ibara ry'umuhondo, ruri iruhande rw'ibiti biteye ku muhanda hari n'amapoto bafite bandelole nini cyane iriho amagambo international day against drugs abuse, ni igitambaro kinini cyerekana ko ari icy'ubuzima gishinzwe kurwanya ibiyobyabwenge.

Bambaye imipira y'amakosita ni amabara atandukanye: umukara, umweru, kaki, umuhondo, ubururu, bose bafite udukarito mu ntoki bisa nk'aho barimo baratora nk'umuntu batombora.

Ni abagabo n'abagore, bamwe barahagaze abandi baricaye, bicaye ku dutebe tw'icyatsi kibisi, bose barimo barakurikira, aho bari gutanga amahugurwa ku birebana n'ubuzima.

Bari mu kibuga ahari ibyatsi byinshi, bubatse amahema abiri arebana, mu kibuga hagati hari abantu babiri bambaye imipira isa y'umweru, bari kwereka abantu uburyo bakoresha kandagira ukarabe.

Abagore babiri bambaye imipira ya oranje, bambaye amapantaro atandukanye, umwe yambaye y'umutuku undi yambaye iy'icyatsi, basa n'abapfukamye mu byatsi, umwe afite ikayi n'ikaramu, bari imberey'icyapa kinini cyanditseho iminsi cumi n'itandatu y'ubukangurambaga bugamije kurwanya ihohoterwa rishingiye ku gitsina.

Umuganga uri gufata umuntu ibipimo yahereye ku cy'umuvuduko w'amaraso, muganga yambaye itaburiya undi muganga yicaye hirya asa nkaho ari kwandika imyirondoro y'uwo muntu bari kuvura.

Ikiganza gifashe ku kimera cy'icyatsi kibisi, kiriho utubuto dutoya tujya gusa nk'umweru, ni umuti wifashishwa n'abavuzi gakondo.

Umuganga wa gakondo ni umumama wambaye ikarita y'akazi, yambaye itaburiya y'umweru, ari mu nzu aho ahagaze asa naho ari kwandika, iruhande rwe hari imiti yifashisha mu buvuzi gakondo.

Amacupa manini ane ari ku murongo rimwe imbere y'irindi, ni amacupa ari mu ibara ry'icyatsi arimo imiti yifashishwa mu buvuzi gakondo.

Umukecuru wambaye ikanzu irimo amabara y'umweru n'umukara, yambaye igitambaro mu mutwe n'ikindi kintu mu ijosi ari ku mukeka hasi arapfukamye bisa nkaho ari gutunganya imiti gakondo, inyuma ye hari amacupa arimo imiti gakondo.

Ni umusaza wambaye agashati k'umweru imbere y'ikoti ry'umukara, afite imvi mu bwanwa no mumusatsi, afite mu ntoki ze ibiti byinshi by'icyatsi kibisi bigaragaza ko, ari umuvuzi gakondo uri gushaka umuti.

Ni umugabo wambaye imyenda y'icyatsi kibisi, cyijimye, hariho n'idapo ry'u Rwanda, yambaye akagofero mu mutwe k'ubururu, yambaye n'agapfukamunwa k'ubururu, ku bibero bye, haryamye umudamu, ari kuvura, asa n'aho ari kumuvura mu kanwa.

Abakobwa babiri bari hamwe n'umusore wambaye ikote ry'umukara, yambaye n'agapfukamunwa yazirikiye mu mutwe, abakobwa bambaye imipira y'umweru y'amarakosita, bari mu bushakashatsi mu kigo runaka cy'ubuvuzi.

Inka, intama, ingurube, ihene, biri mu mabara atandukanye, biri imbere y'icyapa cyanditseho tilo zayine mu magambo y'umweru ni amatungo bigaragaza ko ari igishushanyo cyo kuvura amatungo.

Ni imiti icuruzwa n'abaveterineri iriho amatungo atandukanye nk'inka, intama, ihene n'ingurube byose bishinzwe kuvurwa n'iyi miti iri mu dukarito.

Ari mu bushakashatsi yafashe icupa araricurika, arimo arakuruza urushinge ni umugabo uri mu bushakashatsi yambaye akagofero yambaye n'itaburiya, ni umuganga uri kwa muganga.

Ni ku bitaro kwa muganga aho hari icyapa kinini cyanditseho amagambo, inyuma y'icyo cyapa hari urukuta runini, ndetse n'imbere harimo imodoka ebyiri zishinzwe gutwara abantu bihutirwa bagize ikibazo gikomeye ku bitaro bikuru.

Ni kwa muganga, aho ababyeyi baje kwivuza, mbese harimo n'abagabo, muganga abahagazemo hagati, aragenda abaza buri wese, imyirondoro ye.

Icupa rinini ntago ariryo ryonyine, gusa n'ayandi bite kimwe, ryanditseho karisiyumu foti senti mita, hariho n'umubare gatanu.

Ni igikarito cy'umuti kiriho amagambo piperazine, ari mu ibara ry'umuhondo munsi yayo hashushanyijeho: inkoko, isake, inkokokozi ebyiri n'udushwi tubiri, bigaragara ko ari umuti uvura inkoko.

Bari gusa nk'aho bari kubyina indirimbo baziranyeho, bambaye amataburiya y'ubururu, ni abagabo nabagore bari imbere yikigo nderabuzima kiriho amarangi yubururu, ndetse gisakaje na'amabati y'ubururu, imbere yabo hari umuntu uri kubafotora.

Ni kwa muganga aho abaganga bari mu nyubako ni babiri, umwe arahagaze undi aricaye bombi barimo barakora akazi ko kwegeranya imyenda y'abaganga, harimo amataburiya n'ibindi bikoresho.

EAR diyoseze Kigeme ni magambo yanditse imbere y'inyubako hejuru ku mukandara wayo w'umweru, hari inkingi y'umweru ifatiye ku iyo nzu, inzu yubakishije amatafari ahiye imbere yayo hari kwinjiramo abantu bambaye udupfukamunwa.

Ni ku bitaro ndetse hari abantu bahifotoreje, ni abagabo n'abagore barimo n'umusirikare umwe, bose bari gufata ifoto imbere y'ibyatsi bimeze nkaho bijya kuma.

Ni ku bitaro aho abantu bari baje kwivuza, bamwe bari imbere y'inyubako imwe, abandi ku yindi, abandi ku yindi gutyo gutyo, baje kwivuza.

Umu mama uhetse umwana afite agafuka ku mutwe yikoreye k'ibara ry'umuhondo, arimo arakaraba ku rukarabiro, bisa nkaho ari kugira ngo ajye kwa muganga afite isuku.

Ni kwa muganga aho hari abantu benshi batandukanye, hari abana, hari abantu bakuru ndetse umwana arimo aratega amazi ari hejuru mu kajerekani ngo amugwe mu biganza kugira ngo akarabe.